Imodoka y'imbangukiragutabara ikaba isa umweru, ikaba ihagaze imbere y'ibitaro by'Akarere ka Nyagatare, akaba ibi bitaro byubatse ibikuta bisa umuhondo.

Imbangukiragutabara ikaba itwawe n'umuntu wambaye imyenda y'umweru, naho imbagukiragutabara ikaba isa umweru nayo, ikaba igiye kuzana umurwayi.

Abaganga bambaye amakanzu y'ubururu, bateze udutambaro tw'ubururu, bambaye udupfukamunwa, bakaba ari kuvura umurwayi, uryamye ku gitanda ,akaba yiyoroshe amashuka y'ubururu.

Imodoka z'imbagunkiragutabara. Aho izi modoka, zijya kuzana abarwayi aho baherereye. Aho zihagaze hakaba hakorotijwe urugo rw'amatafari ahiye.

Umugabo wakomeretse ari kwa muganga aho umaze kumupfuka igipfuko mu mutwe, akaba yambaye umwenda w'umukara ndetse n'icyatsitibisi.

Icyumba cyo kwa muganga kikaba kirwariyemo abarwayi benshi batandukanye. Bakaba baryamye no ku bitanda bitandukanye. Iki cyumba kikaba kirimo n'inzitiramibu kuri buri murwayi.

Abagore bari kumwe n'abagabo bagiye gusura abana mu bitaro, aho ibi bitaro byubatse bikaba byubatse bisize amarangi y'umweru n'umukara, inzugi zikaba zisa umukara na ho abana barwaye bakaba baryamye ku buriri buriho ikiringiti cy'umutuku.

Inzu yo kwa muganga ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba amadirishya asa umweru ibirahuri by'umweru, abaganga bakaba bahagaze imbere mu busitani kwa muganga bakaba bambaye impuzankano y'amataburiya y'umweru bamwe, abandi bambaye imyenda isanzwe.

Icyumba muganga yakiriramo abarwayi, aho iki cyumba kirimo intebe zisa umukara ndetse n'igitanda, abarwayi baryama.

icyumba cyo kwa muganga, aho iki cyumba kirimo aho basuzumira abarwayi, Akaba ari udutanda twa kijyambere abarwayi baryamaho, tukaba dukanyijwe n'urukuta rw'umutuku.

Icyumba umuganga akoreramo isuzuma, akaba ari gusuzuma umugore, iki cyumba kikaba cyubatse gisize amarangi y'umuhondo, amadirishya akaba asa umweru n'aho ibirahure na byo ni umweru.

Icyumba cyo kwa muganga. Aho iki cyumba harimo umuganga, uri gufata ibizami umurwayi. Muganga akaba yambaye umwenda w'akazi w'umweru, naho umurwayi akaba yambaye ishati y'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga, aho basuzumira abarwayi. Iki cyumba kikaba gisa umweru. Naho aho abarwayi baryama hakaba hatandukanijwe n'igikuta cy'umutuku. Hakaba hari n'amarido y'umweru.

Umuganga arimo aravura umwana wazanywe n'umubyeyi, umuganga arimo kumva ko umutima utera neza w'umwana, muganga akaba afite ikaramu ndetse n'igitabo ari kwandika mo!

Umuganga arimo arafata amaraso umurwayi, umuganga akaba yambaye ga zisa ubururu n' itaburiya isa umweru, aho n'imbere yambayemo umwenda w'umukara.

Icyumba cy'ishuri, iki cyumba akaba ari icyumba bakoreramo ubushakashatsi, kikaba ari icyumba harimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru, bakaba bafite ikaramu ndetse n'urupapuro bari kwandikaho.

Umuganga w'umugore akaba yambaye itaburiya y'umweru, akaba ari gutera umwana urushinze, uyu mwana akaba akikiwe n'umubyeyi we w'umumama.

umwarimu ari kwigisha abana batoya ibyo bakora, abana bambaye amashati y'imweru, n'aho mwarimu yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru werurutse, amashuri yabo yubakishije amatafari ahiye.

Aho bacururiza imiti. Hakaba harimo haracuruzamo umugabo wambaye umupira w'umweru. Naho aho bashyira imiti hubakishije imbaho z'icyatsi, ndetse n'ibirahuri mo hagati.

aho bacururiza imiti n'ibikoresho by'isuku, hakaba harimo imitisa ubururu, n'indi y'umuhondo, akabati kakaba gasa na orange, n'aho igikuta kiri inyuma kikaba gisize irangi ry'umweru.

Iduka bacururizamo imiti, hakaba harimo ibiryo by'abana, hubakishijwe imbaho, zijya gusa ikigina, hakaba harimo izindi zijya gusa umwiru.

Abaturage bari kumwe n'igipolisi cy'Igihugu, bitabiriye gushishikarizwa kugenda neza, gahunda aho bayita Gerayo amahoroba. Akaba ari gahunda y'igipolisi cy'Igihugu cyifashisha kibwira abaturage uko bagomba kwitwararika.

Urugendo rwo kwamagana kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibyaha bituruka ku kunywa ibiyobyabwenge, akaba ari abantu benshi babyitabiriye, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, akaba ku nkengero z'umuhanda hubatse urugo, rwubakishije amatafari ahiye.

Ubukangurambaga buri gukorwa n'urubyiruko, kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, aho bitabiriye iki gikorwa ari abantu benshi, aho icyapa cyabo cyanditseho, twubake u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge.

Ibibabi by'inturusu bisa icyatsi byakokowe ku giti cy'inturusu, kandi bikaba biri kumwe n'imbuto z'ibiti by'inturusu byavuyeho, bikaba biri kumwe n'udushakwe duto.

Ibikoresho kwa muganga bakoresha barimo baravura abarwayi, birimo umukasi, inshinge, ndetse n'akumva uko umutima utera.

Igiti cy'umubirizi kikaba ari igiti cyifashishwa bari kuvura abana cyangwa abantu bakuru, harimo nk'indwara z'inzoka cyangwa se kubyimba mu nda.

Ibitaro bya Gatunda akaba ari ibitaro byubatse bigerekeranye akaba ibikuta bisa umuhondo ndetse n'ibirahure by'umukara, imbere yayo hakaba ari abaganga bahahuriye n'abayobozi babo.

Icyumba cyo kwa muganga. Akaba ari icyumba kirimo umuganga ndetse n'umurwayi. Umuganga akaba yambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse n'itaburiya y'umweru.

Igishushanyo mbonera cya girarubuzima, kikaba gishinzwe ahazubakwa girubuzima, ibikuta bikazaba bisa ubururu, isakaje amabati.

Umuganga w'umugabo akaba yambaye ishati y'icyatsi kibisi, yambaye n'akarindamutwe, akaba arimo arashyira umuti mu kijyana umuti w'amazi kugira ngo umurwayi.

Inzu batangiramo ubuvuzi, aho iyo nzu isa ubururu ku rukuta, n'amabati akaba asa ubururu, hakaba harimo kwinjiramo umudamu ugiye kwakayo serivisi.

Ivuriro ritanga ubuvuzi bwerekeranye no kugorora imitsi ndetse n'imikaya, aho bagufasha kubitunganya neza kugira ngo amaraso abashe gutembera neza.

Umuyobozi arimo arigisha abaturage ibyerekeranye n'ubuzima, aho arimo araberekera uko bakirinda indwara. Umuyobozi akaba yambaye umwenda hejuru w'ikigina kivanzemo n'umukara, aho abaturage abenshi biganjemo abambaye hejuru imyeru.

Icyumba cyo kwa muganga, kikaba gisa umweru, hakaba harimo abaganga bambaye impuzankano z'ubururu bwerurutse, bakaba bambaye uturinda mazezuru n'umunwa dusa icyatsi cyerurutse, ukaba bari kwandikira umurwayi ku meza asa umweru.

iIcyumba cyo kwa muganga, iki cyumba kikaba gisa n'amabara y'umuhondo wererutse, hakaba hicaye abaturage barimo baraka serivisi zo kwivuza, hakaba imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga akaba ari icyumba abarwayi barwariramo hakaba harimo abaganga batatu bambaye amataburiya y'umweru, hakaba harimo ibitanda abarwayi baryamaho.

Inzu y'ivuriro ry'abaturage aho isa ubururu, ikaba isakaje amabati y'ubururu naho imiryango ikaba ari uburu, hakaba hicaye abaturage bategereje ibikorwa bari bukorerwe n'abaganga.

Ivuriro rikorerwamo ubuvuzi ku rwego ruciriritse, hakaba iri vuriro ririkwinjirwamo n'abantu, akaba iri vuriro ryubatse risakajije amabati y'ubururu ndetse ibikuta bikaba bisize amarangi y'ubururu.